Gukaraba intoki ni ingenzi, ku bana ndetse n'abantu bakuru, byica mikorobe ziva mu misarane ndetse no ku bantu tuba twasuhuje no gukora ku bintu, aho ukaraba akoresha amazi meza ndetse n'isabune.

Abaforomo n'abaforomokazi bahabwa amahugurwa, inama z'uko bakwitwara ndetse bakwita ku barwayi igihe babagannye, nyuma yaho bafata ifoto y'urwibutso n'umuyobozi.

Ibyishimo ni byinshi ku baforomo n'abaforomokazi b'ikigo nderabuzima, aho bari kumwe n'umuyobozi w'umuzungu wabasuye ndetse hari n'abanyamakuru bafata amafoto, baranezerewe cyane.

Amazi ni isoko y'ubuzima. Iyo uvomye ushobora kuyifashisha mu guteka, kuyanywa, kuyakoresha amasuku harimo nko gukoropa, kumesa ndetse n'akazi ko mu rugo.

Amazi ni isoko y'ubuzima. Ku mavomero hashyirwaho abantu bishyuza bareba ko amazi adapfushwa ubusa, ndetse avomerwa mu bikoresho byujuje ubuziranenge.

Isuku y'intoki ni ingenzi, hashobora kwifashishwa kandagira ukarabe, ni igikoresho gikozwe mu buryo ukandagira hakaza amazi, ukabasha gukaraba intoki zikagira isuku.

Ipompo yifashishwa mu kuvoma mazi, aho uterekaho hanyuma ukagenda uzamura umanura amazi akaza, bisaba imbaraga ndetse no guhozaho kuko urekuye amazi arirekera kuza.

Isuku ni ingenzi cyane cyane ku bana bato kuko indwara ziterwa n'umwanda zibatera inzoka ndetse no kurwaragurika mu buryo butandukanye. Iyo bakarabye intoki neza n'amazi meza n'isabune birabarinda.

Amazi n'isoko y'ubuzima, uvoma akoresha ijerekani, agafungura robine amazi yakuzura agafunga kugira ngo adapfa ubusa.

Inama y'ububanyi n'amahanga yitabiriwe n'abayobozi ndetse n'abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane w'Afurika ndetse n'isi yose, bashishikajwe n'iterambere rya buri wese.

Ubuzima bw'abana ni ishema ku baganga ndetse n'ababyeyi babo. Umubyeyi anezezwa no kubona umwana we ameze neza atarwaraguka ndetse yitaweho bikomeye.

Ibikoresho nyuma yo kozwa byanikwa ku gatanda, bigafasha kuba byakumuka neza hatagiyemo mikorobe cyangwa ngo bihanaguzwe umwenda udasukuye.

Ubuzima bw'abana ni ingirakamaro, ababyeyi bagomba kwita ku bana babo, bagaragaza ibimenyetso by'uko batameze neza bakajyanwa ku mavuriro n'ibitaro bibegereye, bakitabwaho n'abaganga.

Kwa muganga haba hari urujya n'uruza rw'abantu barwaye indwara zitandukanye, harimo abana, ababyeyi, abakecuru, abasaza ndetse n'imfungwa zibasha kugira ayo mahirwe yo kuvuzwa.

Ibyishimo, akanyamuneza, bitera abana n'abakuru guhimbarwa bakabyina, bikabafasha kuruhuka, kwishimira ibyo bagezeho, ndetse ubuzima bwabo bukaba bwiza.

Iyo amazi afite isuku afasha uyanywa gutekereza neza, gushira inyota, amaraso atembera mu mubiri ndetse akagira uruhu ruzima rusa neza.

Isuku ni ingirakamaro, mu mibereho ya buri munsi, cyane ku ntoki kuko ari wo mikorobe zitandukanye zandurira, umuntu agomba gukaraba hifashishijwe amazi meza ndetse n'isabune.

Kwegereza amavomo abaturage bigabanya umwanya bamara bajya kuvoma, bikabaha ubuzima bwiza kuko bayakoresha, bakayanywa, amatungo ndetse n'ibihingwa bikarumbuka.

Kwa muganga ni mu hamwe mu hagendwa n'abantu benshi, hagomba kwitabwaho isuku ikaba iri hejuru hakambarwa udupfukamunwa, muganga agakoresha ibikoresho bifite isuku ndetse n'imyambaro isukuye mu gihe cyo kwita ku murwayi.

Gukingiza abana ni ingenzi, ababyeyi baba basabwa kuzana abana ku kigo nderabuzima bakiri bato ku gihe cyateganyijwe, bakabakingiza indwara zitandukanye, bikabafasha gukura neza.

Mu cyumba cy'inama cy'abayobozi, habamo amafoto y'umukuru w'igihugu na ekara bakoresha berekana, baganira ku bibazo, ibisubizo bishoboka ndetse n'inzira byanyurwamo.

Abana ku mashuri, bagomba gutozwa isuku cyane cyane iyo ku ntoki, bakaraba neza n'amazi asukuye ndetse n'isabune, bikabafasha kutarwaragurika bakagira umubiri n'ubuzima bumeze neza.

Abakangurambaga b'ubuzima bahabwa inyigisho hakoreshejwe imfashanyigisho ndetse bakandika, bagatega amatwi, bakumva neza ibizabafasha kuganira n'abaturage ndetse no kubafasha mu burwayi bwabo.

Ababyeyi ndetse n'abakuze bahabwa amahugurwa y'uko bakwita ku buzima bwabo ndetse n'imiryango, hifashishijwe abakangurambaga ndetse n'abandi babifitemo uburambe.

Amazi meza ni ingirakamaro akoreshwa mu isuku n'isukura, agomba kuvomerwa mu bikoresho nk'amajerekani afite isuku kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda ku bakuru ndetse n'abato.

Amazi meza ni ingirakamaro ku bana bato ndetse n'abakuru. Abafasha gukura neza, bakagira ubwenge, bakagira umubiri ndetse n'uruhu rwiza, ni ingirakamaro kwita ku bana tukabamenyera ibyo bakeneye.

Kwa muganga hagomba kwambara udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda indwara z'ubuhumekero zakwanduzwa hagati y'abarwayi, abarwaza, abaganga n'abakozi batandukanye.

Amazi ni ingirakamaro ku bana ndetse n'abakuru, agomba kwitabwaho agasukurwa agashyirwamo imiti yabugenewe mbere yo kuyanywa kuko agira akamaro ku mubiri w'umuntu, afasha amaraso gutembera neza.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura "WASAC", gitanga amazi ku banyarwanda ku giti cyabo ndetse n'ibigo binini, aho bazana amazi afite isuku agakoreshwa ku buryo buhagije.

Nyuma y'amahugurwa, abakangurambaga b'ubuzima baranezerewe bashimishijwe n'uko bagiye gushyira mu bikorwa ibyo babwiwe, bagafasha abaturage mu mibereho yabo myiza.

Abayobozi barebera hamwe ibyafasha abaturage mu kurinda ubuzima bwabo, imitekereze yabo ndetse n'ahazaza habo, aho bicara hamwe bakaganira, bakareba ibyagezweho ndetse n'ibibura.

Abaforomo n'abaforomokazi bahawe amahugurwa ndetse n'ibikoresho bakoresha mu kazi kabo ka buri munsi, hafatwa ifoto y'urwibutso bari kumwe n'abayobozi batandukanye.

Muganga asobanurira neza abarwayi, uko bakwiriye kwitwara, harimo abagabo, urubyiruko, ababyeyi b'abagore ndetse bateruye n'abana, babishishikariye, ubona ko babyitayeho.

Abayobozi mu nzego zitandukanye biri mu nshingano zabo kwita ku mibereho y'abaturage, bakabafatira imyanzuro ndetse n'ibyemezo bibafasha kubaho neza, bakagira ubuzima buzira umuze.

Mu bice by'icyaro uhasanga intocyi zera ibyo guteka n'ibyo kwenga amazu yabo akikijwe n'ibiti iyo bicaye baganira babasha kuvuga iby'ubaka igihugu bafite ubuzima bwiza, bahumeka umwuka muzima.

Ibitaro bya Munini bifite inyubako ndende nziza, hari isuku ihagije, ndetse hari ibyapa, byerekana amerekezo ku bahageze kuyoba biragoye.

Kwigunga, agahinda, gutekereza cyane n'ibindi nk'ibyo bishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza kubyirinda igihe bishoboka cyose.

Uburwayi bwo mu mutwe ni indwara nk'izindi zose, ishobora gufata abakuze ndetse n'abatoya, iravurwa igakira bimwe mu bimenyetso byayo ni uko uwafashwe agira imyitwarire itandukanye n'iy'abandi.

Abana barababara, bakagira agahinda, cyane iyo batitaweho neza n'ababyeyi babo cyangwa bari kumwe. ni uburenganzira bw'umwana kuba yahabwa amahirwe nk'ayabandi akitabwaho akarindwa,..

Mu nama zitandukanye, umugore akwiriye guhabwa ijambo, ntibamupfukiranye, akabaza ibibazo aho adasobanukiwe, agatanga ibitekerezo, agashyirwa ku isonga.

Abana bo mu nce z'icyaro bafite uburenganzira bwo kwitabwaho na bo nk'abandi bose, bakarerwa, bagahabwa ibyo kurya ndetse ubibona iyo muganira aba yishimye aseka.

Icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyangijeri imitekerereze y'abantu abakuru ndetse n'abato, aho kwita ku buzima bwo mu mutwe kuri ubu ari inshingano ya buri wese aho yava akagera mu Rwanda.

Indwara yo mu mutwe ni indwara mbi cyane, ishobora gufata abakuru ndetse n'abana, uyirwaye akora ibyo atagakoze igihe yari kuba ari muzima ndetse akora ibiteye isoni.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburwayi bwo mu mutwe Rwanda mento helisi ini purakitise, cyita ku buzima bwo mu mutwe bw'abanyarwanda gishishikariza abaturarwanda kwirinda ndetse no kwisuzumisha kare.

Ubuganga bw'amenyo, buba bugomba gushyirwa imbere, bukajya mu byumba byabugenewe, hari isuku ihagije, abaganga babizobereyemo, bagakoresha ibikoresho basuzuma ndetse bavura abarwayi.

Kwa muganga igihe bakura amenyo cyane cyane ku bana, bakoresha ibikoresho byabugenewe bituma batababara, bambaye impuzankano z'akazi ndetse bifashishije isuku iri ku rugero rwo hejuru.

Mu isuzumiro kwa muganga, umurwayi arwaye amenyo aryamye ku gatanda k'abarwayi, asuzumwa n'abaganga babigize umwuga bakoresheje ibikoresho bihambaye bambaye.

Umuganga uvura indwara z'ubuhumekero, yifashisha ibikoresho byabugenewe, yambaye impuzankano z'akazi zifite isuku, akavura umurwayi.

Umuganga w'amenyo agomba kuba afite isuku, agafasha umurwayi kugira amenyo meza n'ubuzima bwiza, bituma mu kanwa hahumura neza ndetse hagasa neza.

Urudodo rwoza amenyo igihe umaze kurya urarufata ukarunyuza mu menyo hagati, ibyo kurya byasigayemo bivamo ndetse neza ugasigara amenyo yawe asa n'umweru ndetse cyane.

Icyumba cyo kubagira abarwayi kwa muganga, umurwayi aba aryamye ku gitanda, muganga akamusuzuma, bikagaragarira kuri ekara, hari n'isaha ndetse harimo n'ibikoresho bya Tekinoloji zihambaye.

Kwita ku menyo ni inshingano ya buri wese kuko ni rumwe mu rugingo rw'umubiri w'umuntu, ushobora kuyitaho ukoresheje imiti cyangwa utugozi bakoresha banyuza hagati y'amenyo, bakuramo imyanda nyuma yo kurya ndetse na mbere yo kuryama.

Isuku y'amenyo ni ingirakamaro cyane, atari ku bato gusa ahubwo no ku basaza ndetse n'abakecuru, bikomeza amenyo iyo ukoresheje umuti wabugenewe igihe cyose.

Amenyo ni kimwe mu bice by'umubiri w'umuntu kigomba kugirirwa isuku cyane. Abana b'abanyeshuri bahawe uburoso bw'amenyo bwo kwifashishwa bakora isuku y'amenyo umunsi ku munsi.

Isuku y'amenyo ni ingirakamaro ku bakuru ndetse n'abato. Ikorwa hifashishijwe akadodo kanyuzwa hagati y'amenyo, kagakuramo ibyo kurya ndetse na bagiteri ziba zasigaye nyuma yuko umuntu ariye cyangwa ashyize ikindi kintu mu kanwa.

Isuku y'amenyo ni ingirakamaro ku bana ndetse n'abatoya, ni byiza kwita ku mwana muto, ukamenya isuku y'amenyo, bakoresha uburoso bumeze neza, n'umuti ariwo witwa korogati.

Abayobozi bafite imikoranire myiza n'abaturage, babasha kubaha ibikoresho by'isuku, bakoresha cyane kubabana n'ubumuga, bakabaha imisarane itabagora kwicaraho.

Nta kinezeza nko gusazana n'uwo mwakuranye mugikundana, urukundo rukiri rwose, akarusho mukaba muri mu myaka imwe, musubira ibwana neza neza, aba ari ibyishimo bisa.

Imyitozo ngororamubiri ifasha abakuze n'abakiri bato kwita ku buzima bwabo, ikabarinda gusaza imburagihe, ikorwa muri rusange cyangwa umuntu ku giti cye.

Abayobozi bagomba kwita ku baturage cyane cyane abatishoboye bakuze, bakabamenyera ibyo kuraraho, ibyo kwiyorosa ndetse bagaharanira iterambere ryabo n'ubuzima bwiza.

Abakuze iyo bitaweho bakabona umwanya uhagije wo guseka no gusabana bibongerera iminsi yo kubaho, bigatuma ubuzima bwabo bugenda bushimisha kuruta iminsi ya mbere.

Gusoma ni ingirakamaro bifasha ubwonko gukora neza, by'akarusho ku bakuze bibaha umwanya uhagije wo gutekereza no gushyira mu bikorwa, bikabarinda kurambirwa bikabamara irungu.

Imyitozo ngororamubiri ifasha kugira ubuzima bwiza kubaho igihe kirekire, kwishima kugira gahunda mu buzima ndetse abayikora usanga bafite byinshi barusha abatayikora.

Abakuze aha ndavuga abakecuru n'abasaza, iyo babonye ababitaho bakabaganiriza, bagarura icyizere cy'ubuzima bakagira ibyishimo by'ejo hazaza ndetse bakabaho bishimye, bashima n'abavandimwe n'inshuti ku bw'urukundo babereka.

Abakuze ni bamwe mu begera abaganga bakabafasha, bakababwira imyitozo ngororamubiri bashobora gukora ikabafasha gukomeza kubaho ubuzima buzira umuze.

Kwita ku mubiri unywa amazi ni ingenzi, bikaba akarusho ukora imyitozo ngororamubiri cyane ku bakuze, iyo bitoza bagakora siporo bibafasha kugira ubuzima buzira umuze.

Umubyeyi anezezwa no kubona abana, bagaseka, bakishima, bakifotoza, akabaganiriza, hanyuma bagafata ifoto y'urwibutso, igihe bamukumbuye bakayireba.

Abakuze bakeneye kwitabwaho ubuzima bwabo bwo mu mutwe, iyo bumeze neza iminsi yabo yo kubaho iriyongera, barishima bagaseka bakumva bafite icyizere cy'ahazaza.

Inama kuri imwe mu ntego z'ikinyagihumbi izabera kuri murandasi, ifite insanganyamatsiko igira iti: "nta n'umwe ugomba gusigara inyuma", ku wa kabiri tariki makumyabiri n'eshanu z'ukwa gatanu, kuva saa saba kugera saa munani, izitabirwa n'abantu batandukanye.

Urukingo rwo kurwanya indwara y'inkende ruzwi nka Monkeypox rwageze ahantu hatandukanye, abaturage bajya kurufata mu buryo bwo kwirinda kurwara.

Hafatwa ifoto y'urwibutso ku bagore b'abayobozi mu buzima, bari kumwe n'ababafashije mu mahugurwa yari amaze iminsi ni ibyishimo bidasanzwe harimo n'abanyamahanga.

Ibiheri ni indwara ishobora kuza mu buryo butandukanye, ushobora kuribwa n'ibikoko cyangwa se inzoka zo mu mubiri wawe zikaba zishobora kubitera, ihutire kujya kwa muganga usobanukirwe.

Kanseri ni indwara ifata abakuru ndetse n'abato. Kuyirinda birashoboka, aho wirinda kurya ibintu bifite amasukari menshi, ndetse ukirinda kugira ibiro byinshi, ukora imyitozo ngororamubiri, urya indyo yuzuye.

Amaso ni imwe mu ndwara zikomeye cyane. Igihe urwaye ujya kwa muganga bakaba bagushyiramo imiti, byaba ngombwa bakagupfuka hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe.

Raporo ku cyorezo cya COVID cumi n'icyenda itangwa n'abaganga b'inzobere, hifashishijwe amakuru ku barwayi bapimwe bagasanga bayirwaye, hanyuma hagafatwa ingamba zo kukirinda.

Muganga afasha abarwayi kumenya uko umubiri wabo umeze, cyane cyane nk'umuvuduko w'amaraso umuntu ashobora kuwugira mu buryo atazi. Ni yo mpamvu rero ari ingenzi kuba wakwisuzumisha igihe cyose ukamenya uko uhagaze.

Abayobozi, abagabo n'abagore bafata ifoto hamwe n'abatumirwa harimo n'abazungu, inyuma y'icyapa kiriho ibijyanye n'inama yabaye banezerewe bashishikaye.

Mu bitaro byateye imbere, haba harimo ibyapa bigaragaza ahantu, ndetse inzugi zabo ni ibirahure bibonerana, haba hari isuku itangaje iri ku rwego rwo hejuru.

Icyumba cy'ububiko bw'amaraso yafashwe ategereje gupimwa, nyuma yo gupimwa agashyirwa mu tubati tugabanyijemo ibice amaraso ya positifu ajya ukwayo n'amaraso ya negatifu akajya ukwayo.

Mu bitaro ndetse n'amavuriro hagati y'icyumba n'ikindi hagomba gushyirwamo umwenda uhagabanya, ku buryo igihe umuganga avugana n'umurwayi abi ruhande batababona, isuku igomba kuba ihagije.

Ibitaro bikuru bya Nyarugenge biherereye mu Karere ka Nyarugenge, bibasha kwakira abaturage benshi, kuko bifite inyubako ndende, igizwe n'ibyumba bitandukanye, byifashishwa mu kwita no kuvura abarwayi.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe giherereye mu karere ka Nyagatare cyakira abarwayi batandukanye bikabafasha kubona imiti ndetse no kwita ku buzima bwabo burambye.

Iyo winjiye ku bitaro haba hari urujya n'uruza rw'abantu ariko hari ibyapa biranga ahantu. Abarwayi abarwaza ndetse n'abaganga baba bahari.

Ku kigo nderabuzima, ababyeyi bagomba guherekeza abana babo bakabasha kwitabwaho n'abaganga babigize umwuga, bifashishije ibikoresho byabugenewe, kwa muganga uhasanga abantu b'ingeri zose.

Ikigo gishinzwe gusuzuma indwara zitandura IRCAD Africa giherereye mu mujyi wa Kigali, cyubakishijwe amatafari ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Ku bitaro ndetse n'amavuriro hari ibyumba bikorerwamo siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri, ku bantu bavunitse uhasanga ibikoresho bifashisha, abafite ibibazo by'amagufa ndetse n'ingingo zidakora neza.

Icyumba cy'ububiko bw'imiti kigomba kuba gifite urumuri ruhagije, gisukuwe kibasha gufungwa mu tubati imiti ipanze neza buri yose ukwayo.

Umurwayi kwa muganga uri ku mamashini amufasha guhumeka ndetse n'andi amwongerera amaraso, aba akeneye kwitabwaho n'abaganga, akarindwa agapimwa uko bishoboka kose kugira ngo amere neza.

Icyumba cyakirirwamo abarwayi kwa muganga byihuse, barembye, kigomba kuba gifite isuku harimo abaganga bahagije kugira ngo bite ku ndembe ako kanya zikigezwa mu bitaro.

Kwa muganga hari isuku, uburyo bwo kwakira abantu ni ntamakemwa, ni ku murongo ndetse uba wicaye igihe utegereje ko uhabwa serivise neza.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, gifite isuku, uhasanga abarwayi ndetse n'abarwaza, abaganga batanga serivisi neza, ababagannye bagenda bishimye.

Mu cyumba gihurirwamo n'abarwayi benshi kwa muganga, hagomba kuba buri murwayi afite igitanda cye, gifite ako bakanda bazamura kugira ngo aryame neza, afite matela ye ndetse ifite isuku.

Icyumba gihurirwamo n'abarwayi batandukanye, aho buri wese aba afite igitanda cye gikoranye ikoranabuhanga ndetse afite inzitiramibu ye n'irido rimufasha gutandukana na mugenzi we, haba hari n'utubati kuri buri murwayi.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, usangamo ibikoresho bitandukanye ibyo ukora wicaye, uhagaze cyangwa uryamye, abayikora bagira umubiri mwiza amaraso yabo agatembera ndetse byongera iminsi yo kubaho.

Icyumba cy'isuzumiro, kirimo urumuri ruhagije, harimo agatanda k'abarwayi, kazamurwa, harimo utubati, tubikwamo imiti n'ibindi bikoresho by'abarwayi.

Ibitaro bya kabgayi biri ku muhanda ubasha kugerwaho n'imodoka ndetse n'amapikipiki, inyubako zaho zikikijwe n'ibiti abarwayi babasha kubona umwuka mwiza uhagije.

Ikigo nderabuzima kigomba kuba gifite isuku hari aho abantu baparika imodoka zabo ndetse gifite abaganga n'abakozi bahagije bafasha abarwayi n'abarwaza.

Icyumba cy'imyitozo ngororamubiri kirimo isuku ihagije n'ibikoresho byifashishwa, harimo ibiteye nk'igare bakora banyonga ndetse n'ibindi birukankaho.

Kwa muganga hagomba kuba hari isuku mu cyumba bavuriramo hari ibikoresho bikenerwa mu kuvura, hari igitanda ndetse n'intebe umuganga yicaraho. Muganga agomba kuba afite isuku yambaye imyenda y'akazi.

Ibitaro bifite isuku bifasha abarwayi cyane ko bituma bagira icyizere cy'ubuzima, bakumva ko serivise bahabwa izabagirira akamaro. Abaganga, abarwaza bari mu bamwe b'ingenzi bafasha abarwayi gukira vuba, babitaho.

Ku bitaro bikuru bya Rwamagana, habereye umwiherero ndetse n'inama, inyuma yayo abayitabiriye bafashe ifoto y'urwibutso, harimo n'abaganga bambaye imyenda y'akazi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya SIDA mu Rwanda, giherereye ku muhanda neza aho hari icyapa kiharanga kiriho nimero wahamagara, hari inzu ndende isize amarangi y'umweru, ni ku gipangu cya makumyabiri.

Abaganga ntibavura abarwayi gusa, ahubwo baganiriza uko bakwirinda zimwe mu ndwara, bafata umwanya babasura, cyangwa bagategura amahugurwa abahuza n'abaturage biba ari ingirakamaro.

Ububiko bw'imiti peniel farumasi. Ni ku muhanda imodoka na moto zirahagera. Dukorana n'ubwisungane mu kwivuza mediprane, rama ndetse n'ibindi. Ukihagera ubona icyapa kiriho izina ndetse na nimero.

Abafite ubumuga boroherejwe uburyo bwo kugenda hakoreshejwe utugare bagendamo bitwaye, tuba dufite amapine, bicaye, bakaba batwikoreshereza ubwabo bidasabye ko hari undi muntu ubafasha.

Kwa muganga hari ibyumba bihurirwamo n'abarwayi batandukanye, hagomba kugirirwa isuku, aho buri murwayi aba afite igitanda cye, ndetse n'akameza bamuzaniraho imiti kihariye.

Kwa muganga hari inzu z'ababyeyi bakunze kwita materinite aho bakira ababyeyi bagiye kubyara cyangwa bafite ibindi bibazo bijyanye n'ubuzima, hitabwaho bagasobanurirwa bihagije.

Kuri buri bitaro hagomba kuba hari inzu zihariye z'ababyeyi, zizwi ku izina rya matarineri. Zakira ababyeyi batwite, abafite ibibazo byo mu nda bakabafasha, n'abaganga babigize umwuga.

Kwa muganga abana baherekezwa n'ababyeyi cyangwa abandi bantu bakuru, iyo avuwe n'umuganga umenyereye kuvura abana, aramuganiriza umwana akavurwa yishimye.

Kwa muganga haba ibyumba by'abarwayi batandukanye, aho buri murwayi aba afite igitanda cye gifite ibikoresho by'ibanze, akabasha kwitabwaho n'abaganga bamusanze aho ngaho.

Mu mavuriro ndetse n'ibitaro bikomeye, abaganga bambara imyenda y'akazi, bagategura aho babagira abarwayi, hari ibikoresho bihagije, kandi bakoresha by'umwihariko mu kubaga.

Imyitozo ngororamubiri myinshi ishobora gutera ibibazo by'imvune ku muntu uyikoze atayimenyereye, igihe bibaye wakwifashisha ababimenyereye babigize umwuga mu kuvura imvune cyangwa abaganga.

Abaganga bafasha abarwayi bahuye n'ibibazo mu ngingo, muri siporo, aho babahereza icyo bita kine, bakabafasha bagendeye ku mvune bagize ku magufa.

Amazi ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu cyane iyo akora imyitozo ngororamubiri, bifasha amaraso gutembera neza by'umwihariko amazi aba agomba kunywebwa mu icupa cyangwa ikindi gikoresho gisukuye neza.

Amazi ni isoko y'ubuzima byakwiyongeraho iyo ukora siporo imyitozo ngororamubiri, bigufasha cyane kubaho neza, kudasaza vuba, uruhu rutoshye, guhorana ibyishimo, kugira gahunda mu buzima, ni akarusho.

Zimwe mu ndwara z'ingingo, uba ugomba kwegera muganga akagufasha, akakubwira uko ugomba kwitwara hifashishijwe ibikoresho byabugenewe mu kuvura.

Kwiruka ni umwe mu myitozo ngororamubiri ifasha umubiri amaraso agatembera neza, ifasha gutekereza neza, ukora siporo ahorana gahunda ndetse ibitekerezo bye bikora vuba.

Amazi nisoko y'ubuzima, afasha umubiri gukora neza, amaraso agatembera mu mubiri ndetse akamara inyota. Byiyongeyeho kandi, iyo ukora imyitozo ngororamubiri, bifasha amazi wanyweye gukora neza.

Ubuzima bwiza buterwa n'ibyo twabuhaye, imbuto, imboga ndetse na siporo, bituma umubiri uba mwiza bityo n'ubuzima bukaba bwiza.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri ku barwayi ndetse n'abazima, bifasha gukomeza amagufa, guhumeka neza, no kubaho igihe kirekire, ibikoresho birimo byifashishwa mu gukora siporo.

Imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane atari ku ngimbi n'abangavu gusa, ahubwo n'abakuze bibafasha gutera k'umutima neza, bakaba iminsi yo kubaho yakwiyongera.

Umubiri w'umuntu ugizwe n'ingingo zitandukanye, zimwe muri zo zangiritse zishobora gusimbuzwa urugero nk'amaguru, amaboko ndetse n'amaso, hari imfashangingo.

Ukora siporo ngororamubiri, agakoresha indyo yuzuye harimo imboga, imbuto, ndetse n'ibinyampeke, akajya kwa muganga akamenya uko ubuzima bwe bumeze bimufasha kurama.

Siporo ndetse n'imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu kubaho neza, guhumeka neza, amaraso agatembera neza, iyo ikozwe uko bikwiriye byongera iminsi yo kubaho.

Imboga n'imbuto biri muri bimwe mu bifasha umubiri cyane abasirikare bagakomera. Aha twasangamo amaronje, imineke, pome n'imboga nk'amashu, karoti ndetse n'ibindi.

Uburwayi bwo mu ngingo buravurwa, bugakira iyo bugaragajwe kare ndetse hakifashishwa ibikoresho byabugenewe kwa muganga.

Hari bimwe mu bikapu bifite imifuka itandukanye yagufasha kubika imiti. Akenshi bikoreshwa n'abaganga kuko biba bifite aho kubika imiti y'ubwoko butandukanye, kigatwarwa mu ntoki.

Imyitozo ngororamubiri, ni ingirakamaro cyane, ifasha umubiri gukora neza, amagufa agakomera ndetse uyikora agira akanyamuneza bikamuha umwanya ndetse na disipurine y'ubuzima.

Imyitozo ngororamubiri ituma amagufwa akomera, amaraso agatembera neza, ndetse n'iminsi yo kubaho ikiyongera. Uyikora agira akanyamuneza, agira gahunda mu buzima ndetse aba yishimye.

Kugira ubuzima bugira umuze bisaba kubiharanira, unywa amazi meza, ukoresheje ibikoresho bisukuye, ndetse ugakora imyitozo ngororamubiri ihagije, wita ku buzima bwawe.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, agomba kwitabwaho akagirirwa isuku, akanyweshwa ibikoresho bisukuye neza ndetse ku gihe, bitewe n'ibiro umuntu ashobora kumenya amazi anywa uko angana.

Imyitozo ngororamubiri ishobora gukorwa n'umuntu ku giti cye cyangwa bakamufasha, cyane iyo yavunitse afashwa n'abaganga cyangwa abandi babigize umwuga, bakamufasha bamugorora ingingo, akabaho neza.

Kunywa amazi bituma umuntu ugira ubuzima bwiza, anyobwa yifashishije ibikoresho bifite isuku kugira ngo atagira ikindi kibazo atera uyanywa.

Amahugurwa ku buvuzi bw'ibanze ni ingenzi kuko akenerwa ahantu henshi cyane cyane hahuriye abantu, aho umuntu ahura n'ikibazo akaba ashobora gufashwa byihuse bidasabye kugera kwa muganga.

Kugira ngo ugire ubuzima bwiza urabiharanira, ukora siporo, ukanywa amazi meza kandi ahagije, bifasha umubiri, bikawurinda, bikawukomeza ndetse nturwaragurike.

Abafite ubumuga bitabwaho, barakundwa barererwa mu bigo by'abihayemana, basurwa n'abantu batandukanye cyane cyane abanyamahanga, bakabitaho bakabakoresha imyitozo ngororamubiri bakagarura icyizere.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bifasha umubiri gukora neza amaraso agatembera, uyikora ahorana itoto akabaho igihe kirekire, kandi bikamufasha gutekereza neza.

Abakinnyi bahabwa ubufasha bw'ibanze n'ababigize umwuga, babihuguwemo igihe bari mu kibuga bagahura n'ikibazo baba bahari ngo babafashe nko ku mvune cyangwa se bakomeretse.

Abahinzi b'ikawa babigize umwuga banezezwa no kubona ikawa yabo yeze, ni igihe imvura igwa mu rugero hakaboneka n'izuba umusaruro wabo ukabona abaguzi.

Tangawize ni imwe mu binyampeke iteye nk'utujumba duto ikoreshwa nk'umuti ku ndwara ya giripe cyangwa ibicurane, ndetse n'igihe umuntu yahaze cyane, igogora ryagoranye mu gifu.

Umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba, ufashe amenyo ndetse ukayakomeza, birinda impumuro mbi mu kanwa, uba mu gacupa aho ugenda ukoresha gake gake uko ugiye gutunganya amenyo yawe.

Ibumba ni imwe mu miti ya kinyarwanda ifite ibara ry'icyatsi kibisi, ikaba ikoreshwa n'abantu barwaye cyangwa abayikunda kuko rihumura neza rifasha amaraso gutembera neza mu mubiri nta ngaruka rigira.

Mu miti yica udukoko two mu ntoki harimo nka Foreva handi sanitayiza, aho ukoreshwa, urafungura ugashyira ku ntoki, mikorobe cyangwa utundi dukoko tukaba dushobora gupfa mu mwanya muto cyane.

Ibinini bya vitamine bikozwe mu miti y'umwihariko gakondo, bibasha gukoreshwa n'abantu, ndetse byemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi, bikoreshwa n'abakuru, ndetse n'abato.

Ibinyampeke, imboga, imbuto ndetse n'ibirinda indwara, ni byiza cyane kubikoresha, bifasha umubiri, bigaha umuntu gukura neza, bikamurinda kurwaragurika.

Aloe Berry Nectar ikozwe mu gikakarubamba, ifasha umubiri, irinda indwara, irimo vitamine zitandukanye. Wayibona mu macupa maremare ndetse n'amagufi byanditseho.

Igikakarubamba kivangwa n'ibindi biti karemano, bigafasha mu gukora amavuta yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ziba zikubiyemo amavitamine afasha ubuzima.

Teyi ni utwatsi twimeza cyangwa tugaterwa, dushyirwa mu cyayi cyangwa mu mazi, duhumura neza, turinda indwara ndetse tugafasha n'amaraso gutembera neza mu mubiri.

Isabune yo mu mutwe izwi ku izina rya Aloe-Jojoba Shampoo ikozwe mu gikakarubamba, ikaba ituma umusatsi ukura neza, umuntu akagira impumuro nziza mu mutwe akagaragara neza.

Umuravumba ni igiti kimeza cyangwa kigaterwa, cyifashishwa mu kuvura indwara nk'inkorora ndetse no mu nda, bidasabye gukoresha imiti y'abazungu.

Hizihizwa umunsi mukuru w'ikoreshwa ry'imiti gakondo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, hishimirwa uburyo iyo miti ikoreshwa, ndetse ntigire ingaruka mbi ku buzima bw'abantu.

Igikakarubamba ni umwe mu miti karemano ikoreshwa isukuwe ndetse igatunganywa neza, ikavamo imiti yoza amenyo, ifasha guhumura neza mu kanwa, ikarinda n'izindi ndwara zitandukanye.

Umuravumba ni icyatsi karemano gikoreshwa nk'umuti uvura indwara, zirimo inkorora n'ibicurane, uranikwa ugashyirwa mu icupa useye ugakoreshwa igihe kirekire.

Ibihingwa karemano nk'igikakarubamba, bikoreshwa amavuta yo kwisiga, isabune yo kwiyuhagira, byose birimo vitamine, biboneka mu biciro, n'amacupa, atandukanye.

Aloe vera ni amavuta akozwe mu gikakarubamba arimo vitamine, akoreshwa mu kurya ndetse no kuyisiga, aboneka mu macupa atandukanye bitewe n'ikigero ushaka.

Arorivera ikozwe mu gikakarubamba, iri mu macupa atandukanye, ifasha abarwayi ndetse n'abantu bakuru, kugira uruhu rwiza n'ubuzima bwiza, kuko irimo intungamubiri.

Imbuto n'imboga harimo imineke, inanasi ndetse n'ibindi bifasha ubikoresha kutarwaragurika, kugira uruhu rwiza, ibyishimo ndetse akabaho igihe kirekire.

Aloe Vera, ni amavuta karemano, akozwe mu giti k'igikakarubamba, arimo vitamine, afasha umubiri koroha, aboneka mu macupa y'ingano zitandukanye.

Igikakarubamba ni kimwe mu byatsi karemano cyifashishwa mu kwisiga ndetse no gukorwamo imiti itandukanye harimo nka foreva n'indi nka revera cyuj'ubuziranenge harimo vitamine.

Amavuta akozwe mu gikakarubamba afasha uyakoresha kugira uruhu rwiza runyerera, agakiza ibiheri ndetse n'izindi ndwara z'uruhu by'umwihariko ni meza cyane kuko aba ari umwimerere.

Mu ishyamba hasangwamo ibiti kimeza ndetse n'ibindi gakondo bishobora gukurwamo imiti yifashishwa ntigire ingaruka ku buzima bw'umuntu irimo vitamine zitandukanye.